Icyapa kinini cyane kiriho umugabo wambaye ingofero, akaba yambaye n'amarinete ndetse afite n'ubwanwa w'umuzungu, iki cyapa kikaba cyamamaza kampani y'ubwishingizi ndetse ikaba ivuga ko ari iyo mu kinyejana cya makumyabiri na rimwe.

Umugore wambaye umupira w'umukara ndetse afite n'imisatsi miremire ndetse akaba ari no guseka neza, uyu mugore akaba ari ahantu hagurishirizwa imitako itandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu rugo.

Aha ni ukwamamaza ibyiza bya Radiyanti yacu, aho bavuga ko ibihe nk'ibi bakagenda bavuga bataka Radiyanti harimo umugore n'umugabo, umusaza n'umukecuru bishimanye kubera bafite ubuzima bwiza, bakagushishikariza niba ushaka kugira icyo ugira kanda akanyenyeri maganatatu na mirongo itatu na rimwe.

Isoko risanzwe ricuruza imyenda y'abagabo ndetse n'abagore yo mu bwoko bw'amapantaro, aya mapantaro ni meza kuko harimo asa ubururu ay'umukara aya kake ndetse n'ayandi mabara, aya mapantaro akaba yakwira abantu bose abagabo n'abagore.

Ikinyabiziga kinini cy'umweru gitwara abagenzi mu bice bitandukanye by'igihugu. Iki kinyabiziga kikaba giparitse mu muhanda w'amabuye ndetse inyuma yacyo hakaba haparitse ibindi binyabiziga, inyuma kandi hakaba hari ibiti byinshi bihateye bituma umugi usa neza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'utuyira dutoya tw'abanyamaguru ndetse hakaba harimo n'ubusitani buteyemo igiti kiriho imiyoboro y'amashanyarazi y'insinga. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'inzu z'ubucuruzi nyinshi zitandukanye ndetse imbere yaho hakaba haparitse imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye.

Imodoka nziza ya toyota ndetse imodoka ikaba ikoreresha umuriro ndetse n'ibikomoka kuri peteroli na esanse iyi modoka ikaba igurishwa miliyoni mirongo itatu n'esheshatu z'amanyarwanda.

Ikinyabiziga cyiza cy'ubwoko bwa Yundayi aho cyakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Iki kinyabiziga kikaba gikoresha umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibikomoka kuri peterori ariyo esanse, iki kinyabiziga ukaba wakibona kuri miriyoni icyenda ndetse kandi kikaba cyoroshye kukigitwara kikaba giparitse mu muhanda ndetse harimo n'izindi modoka z'ubwoko butandukanye.

Umugabo uhagaze imbere y'imodoka ya fuso, uyu mugabo yayamamariza kampani icuruza imodoka mu Rwanda yitwa eyibiji kampani, uyu mugabo ahagaze yambaye ishati nziza n'ipantaro ndetse n'inkweto.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi n'imisatsi miremire y'umukara uri kubara amafaranga, ari kumwe n'undi mugabo, bafite inyandiko zo mu bucuruzi ndetse n'imashini itanga fagitire yo mu bucuruzi, n'indi isoma amakarita yo kwishyuriraho.

Inote y'amafaranga magana atanu y'u rwanda iyi note kandi ikaba iriho banki nkuru y'u rwanda ndetse imbere hakaba hariho abana batatu bari gukoresha mudasobwa inyuma kuri iyi noti hakaba ikirori cyo mu ishyamba rya nyungwe.

Inoti y'amafaranga ibihumbi bitanu by'amanyarwanda iyi noti ikaba iriho ingajyi ndetse n'ibiranga ntego bitandukanye by'igihugu iriho banki nkuru y'igihugu ndetse ikaba ikoreshwa no mugihugu cyacu cy'Urwanda.

Inzu y'ubucuruzi irimo abantu babiri, irimo intebe n'ameza, ndetse ikaba irimo n'ibinyobwa bitandukanye, harimo ibinyobwa nk'amata, ibyo kunywa bidasembuye ndetse n'ibindi bisanzwe, harimo n'utubati twinshi ndetse ikaba ifite n'igisenge cyiza.

Iduka ririmo umugabo uri kureba kuruhande rw'umugore yambaye ikoti ry'umukara n'ijipo ndetse afite n'imisatsi miremire, aho bacuruza ibicuruzwa bituruka ku mata harimo nk'amata y'inshyushyu n'ikivuguto ndetse n'ibindi binyobwa bidasembuye.

Iduka risanzwe ririmo ibyo kunywa bitandukanye biri mu tubati, harimo ibyo kunywa bitera imbaraga ndetse n'ibyo kunywa biryohereye. Inyubako kandi ikaba iteye amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba harimo n'intebe yo kwicarwamo y'ubururu.

Inyubako nini baragaragaza ko iherereye Kibagabaga Kigali kandi barerekana ko iri kugurishwa amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu iki ni ikintu gishyirwa ku nzu cyangwa se gishyirwa ahantu umuntu ari kugurisha agamije ko abantu babona icyo agambiriye cyangwa se bamenya ko niba agiye kugurisha bamenya agaciro , igenagaciro ry'icyo kintu ashaka kugurisha .

Abantu babiri harimo umugore umwe n'umugabo umwe, umugabo yambaye amarinete afashe telefone, umugore afite imisatsi miremire ndetse yazinze imisatsi, bari kureba muri telefone imwe, bari kureba ibikorwa bya emutiyene harimo nka momo.

Umuntu uri kureba ku ruhande ufite amaboko abiri harimo inote nyinshi z'amafaranga atandukanye, z'amabara atandukanye, harimo ay'ubururu n'ay'umutuku, yo mu gihugu cya ghana.

Amafaranga y'ubwoko butandukanye akoreshwa mu gihugu cya Tanzania harimo inote z'ubwoko bune ndetse n'ibindi biceri, harimo inoti y'ibihumbi cumi, inote y'ibihumbi bitanu, inote y'ibihumbi bibiri ndetse n'inote y'igihumbi, hakaba harimo kandi n'ibindi biceri byifashishwa.

Inyubako nziza yubakishijwe ibikoresho bigezweho ndetse harimo umugabo wambaye ishati y'umutuku n'pantaro y'umukara, ndetse n'inkweto z'umukara, ahagaze ku muntu uri kumuha serivisi yo kubikuza amafaranga no kuyohereza ahandi, ndetse no kuyavunjisha.

Iyi ni inyubako nziza yubatswe mu buryo bwa kijyambere kandi yubatswe mu buryo bugezweho iyi nyubako kandi yubatswe mu buryo bunogeye amaso iyi nyubako ikorerwamo serivisi nyinshi z'ubucuruzi ndetse n'ivunjisha ry'amafaranga bukorwa na company yitwa guld frank forex bureau .

Ahantu hakorerwa ibintu byinshi bitandukanye birimo iby'imbaho ndetse n'ibikomoka ku biti, hano hari n'intebe nziza zakozwe z'umukara ndetse ziriho n'ibiti, hariho kandi n'ameza abantu bashobora kwifashisha mu buriro cyangwa se n'utubati bashobora kubikamo imyenda bakoze bakoresheje ibiti.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bwa kijyambere aho imbere yaho hari aho bari gukorera intebe ndetse n'ameza n'ibindi bikorwa bikorwa mu mbaho, hano hakorerwamo ibintu byinshi ariko bikorwa na kampani yitwa kwizerwa ati, ikaba ikora ibikorwa byinshi harimo gukora intebe ndetse n'ibindi bintu.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite inkingi ndende ndetse zitatse neza. Inyubako kandi ifite uburuhukiro kandi ikagera n'aho abaturage cyangwa aba bigannye inyubako biyakirira. Ikaba ifite ubusitani bwiza buteyemo ibyatsi by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiti byinshi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ya hoteli ya senti famiye ndetse ikikijwe n'inkuta ziriho amatara menshi amurika neza, ndetse mu nkengero zayo haparitswe imodoka.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho ino nyubako ikaba iteretswemo intebe nyinshi zo kwicarwamo ndetse hakaba hateretswemo n'ameza. Ino nyubako kandi hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye ndetse ikaba irimo n'amatara menshi amurika neza.

Inyubako nziza cyane yabugenewe, ifite aho abantu bakiyakirira ndetse yubatswe ku buryo bugezweho, inyubako ifite intebe nyinshi z'ahantu abantu bakwicara ndetse hakikijwe n'imitako myinshi irimo indabo ndetse n'indi mitako yabugenewe, yubakishijwe ibirahuri byiza cyane kandi bigezweho ndetse ikaba isakarijwe n'ibintu byabugenewe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere kandi bunogeye amaso, inyubako ikaba igeretse inshuro nyinshi ndetse ikaba itatswe n'imitako myinshi ku ruhande rw'iyo nyubako hakaba hari aho abantu biyakirira ndetse hari n'ubusitani bwiza burimo indabo nyinshi ndetse n'ibyatsi byiza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba ufite imirongo y'umweru yerekana imbibi y'umuhanda ndetse ukaba ufite n'akayira kagenewe abanyamaguru, umuhanda kandi ukaba wegereye ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'indabo kandi ku ruhande hakaba hari ikigo cy'ubwishingizi cya Radiant cyubatswe neza mu nzu igeretse.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho ufite aho kwakirira ahantu heza, ndetse hakaba harimo n'amatara ahagije menshi, harimo n'ibyumba byinshi cyane. Ino nyubako ikaba arimo ubwishingizi bwa SANIRAM. Ino nyubako kandi, ikaba irimo imitako myinshi itandukanye.

Icyapa kiri mu muhanda cyamamariza ubwishingizi. Inyuma y’iki cyapa hakaba hari inzu ndetse inzu yubatswe neza mu buryo bugezweho, ifite ibirahuri byiza ndetse isizwe n’amarangi meza zifite n’imitako myinshi. Iki cyapa kandi kiri mu busitani bwiza cyane.

Isoko ry'imyenda harimo imyenda y'ubwoko butandukanye, harimo nk'iy'abana n'iy'abakuru ndetse n'iy'abagore n'abagabo, iri soko ririmo abantu batandukanye, harimo abaguzi ndetse n'abagurisha iyi myenda.

Isoko ririmo umugore ufite imisatsi miremire ndetse yicaye ari gucuruza ibicuruzwa byinshi harimo imboga n'imbuto, imboga zirimo harimo inyanya ndetse na avoka, imbuto zirimo harimo amacunga ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Abantu batandukanye bari gukora imirimo myinshi itandukanye harimo abagore bari gucuruza imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse n'imboga, inyuma kandi hari aho bacururiza imyenda ndetse hakaba hicaye abantu benshi batandukanye.

Hano harimo imitako myinshi cyane kandi nziza ya Kinyarwanda ndetse n'indi mico y'abanyamahanga. Hariho imbehe zo kuriraho ndetse n'indi mitako bashyira ku bikuta, ndetse n'indi miringa bambara ku maboko cyangwa se ku matwi. Imitako ikaba ari myiza ku buryo bunogeye amaso.

Iduka ririmo imyenda itandukanye harimo inkweto ndetse n'indi myenda yo kwambara harimo abantu benshi batandukanye harimo umugore ndetse n'umugabo n'umugabo wicaye ku ntebe murino nzu y'iduka harimo amatara menshi atandukanye amurikira abantu kugira ngo babone ibicuruzwa.

Umugabo wambaye agapira ka efuperi inkotanyi ndetse n'ingofero ndetse harimo n'abagabo n'abagore bari mu iduka ritandukanye ririmo ibikoresho bitandukanye, harimo ibitenge by'abagore ndetse n'indi mitako ba kambara ndetse harimo n'abantu batandukanye harimo n'umuzungu n'umugore ufite imisatsi miremire.

umuhanda mwiza vubatswe mu buryo bugezweho aho uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye bifite amabara atandukanye arimo iby'umweru ndetse n'umukara, uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'abanyamaguru ndetse ukaba ukikijwe n'inzu nziza igeretse inshuro nyinshi, ikorerwamo ibikorwa byinshi harimo nk'iby'ubucuruzi.

Isoko ryubatswe mu buryo busanzwe. Iri soko rikaba ririgukorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo abadozi bari gukoresha imashini zidoda bakaba badoze imyenda y'ubwoko butandukanye, ndetse kandi hakaba harimo n'abandi bantu baje kudodesha imyenda yabo. Iri soko kandi rikaba rikorerwamo indi bintu bitandukanye harimo iby'ubucuruzi.

Isoko risanzwe ririmo abantu bacuruza imbuto ndetse n'izindi mboga zisanzwe aho bacuruza imbuto zirimo ibinyomoro, amacunga ndetse n'inanasi ndetse n'imineke mu mbuga bacuruza harimo ibibiringanya ndetse n'imyungu.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'imodoka ifite amabara y'ubururu n'umweru ndetse n'umukara hafi yayo hari ibiti byiganjemo imikindo idufasha kuyungurura umwuka duhumeka.

iyi ni inzu nziza yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyijemo inshuro ebyiri igizwe n'amabara y'umuhondo amadirishya ni umukara n'inzugi nuko ifite imbuga nini ushobora gukiniramo wowe nabawe mwishimana.

Abagore babiri bambaye udupira tw'umuhondo twamamariza ikigo k'itumanaho cya MTN, aba bagore bakaba bambaye amakarita y'akazi ndetse inyuma yaho hakaba hari imitako myinshi itandukanye, harimo imitako y'imigongo y'umuhondo ndetse kandi hirya hakaba hateretse akameza gateretsweho uducupa tw'amazi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Mu muhanda, indabyo, amapoto, ibiti, imikindo, imodoka insinga.

Ipikipiki ifite ibyangombwa biyiranga ariyo RD gataratu, kane, gatandatu C,ipikipiki ikaba ifasha gutwara ibintu abantu batumije bakoresheje ikoranabuhanga kugira bagereho kandi bikabageraho byihuse mu buryo bwiza kandi bubanogeye.

Inyubako ifite ibikuta by'umweru ifite inzugi zikinguye ikaba ifite inzu imigezi y'imibara y'ibyatsi, n'iziri mu ibara ry'umuhondo hejuru hamanitse icyapa kii ibara ry'ubururu kirimo amadarapo y'ubugu n'ubwongereza ndetse n'amerika.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho ,Ino nyubako ikaba iherereye i remera i gishushi mu mujyi wa kigali ino nyubako ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse ikaba ifite imitako myinshi harimo ubwogero bwiza ndetse n'ubwiherero bwiza n'ibirahuri byiza ,inyubako ikaba wayibona ku bihumbi maganatandatu by'abanyarwanda ku kwezi.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere inyubako ikaba ifite ubwiherero bwiza kandi bugezweho ndetse naho bogera heza, inyubako kandi ikaba ifite amadirishya meza ndetse ikaba ifite n'imitako myiza aho kogera heza, inyubako ikaba ikodeshwa se cyangwa igurishwa.

Iyi nyubako ni inyubako nziza yubatswe mu buryo bwiza bwa kijyambere kandi bugezweho bunanogeye amaso, aho bugizwe n'imitako myinshi itandukanye, iyi nyubako ikaba irimo igiti igiti kandi kiza, iyi nyubako wayikodesha ku mafaranga igihumbi magana atanu cy'idorari, ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inyubako yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, iyi nyubako ikaba ifite imiryango minini ndetse n'amadirishya meza, inyubako ikaba itatswe n'imitako myinshi, ndetse ikaba ifite n'ubusitani bwiza, iyi nyubako ikaba iherereye i Gisozi mu mujyi wa Kigali, inyubako kandi wayibona kuri miliyoni magana atatu na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda mu Rwanda.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ino nyubako ikaba ifite imitako myinshi ndetse ikaba irimo amazu menshi yo kubamo, ino nyubako ukaba wayisanga i Kigali muri Kibagabaga ukaba wayibona ku madorari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho, iyi nyubako ifite igipangu kiza ndetse ikaba igizwe n'imitako myinshi kandi ikaba isizwe amarangi menshi, iyi nyubako wayibona kuri miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri ikaba iri muri kigali.

Inyubako ifite agaciro kangana nka miliyoni mirongo itatu ndetse ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ino nyubako ikaba yubatswe mu buryo bwa kijyambere bugezweho, aho ifite imitako myinshi ndetse n'igisenge cyiza. Ino nyubako ikaba ifite ibikuta bifite amarangi meza ndetse ikaba ifite na aho guparika imodoka ebyiri zisanzuye.

Inyubako nziza kandi yubatswe mu buryo bugezweho, aho ino nyubako ifite igisenge cyiza ndetse kandi ikaba ifite n'ibirahure byiza. Ibikuta bw'inyubako bikaba bitewe amarange meza kandi agezweho. Ino nyubako ifite ubusitani bwiza bugezweho ndetse ahantu hisanzuye. Ino nyubako wayibona kuri muliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda, mu mugi wa Kugali.

Inzu yo gukodeshwa ifite ubusitani bwiza burimo ibyatsi byiza ndetse n'ibiti by'indabo ndetse ikaba ifite n'ibirahuri byiza, iyi nzu ikaba yubatswe mu buryo bugezweho ikaba igeretse kabiri ndetse ikaba ifite ibirahuri byiza ikagurishwa cyangwa se igakodeshwa amadolari igihumbi magana atanu buri kwezi nzu iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho kandi ifite imitako myinshi, iyi nyubako ikaba ifite igisenge cyiza ndetse ikaba ifite n'amadirishya meza n'imiryango myiza. Iyi nyubako ikaba iherereye i Kigali, ikaba igurishwa ibihumbi mirongo itandatu na bitanu by'idorari.

Inyubako iherereye muri Kanombe mu mujyi wa Kigali, yubatswe neza ku buryo bugezweho, ni inyubako ikaba ifite imitako myinshi itandukanye, nk'utubati ndetse n'imiryango myiza, ni inyubako ukaba wayibona ku mafaranga miliyoni ijana na cumi n'eshanu z'amanyarwanda, mu mujyi wa Kigali.

Iyi nzu ikaba ifite amadirishya meza imiryango myiza ndetse ikaba isize irange ryiza ku nkuta zayo, iyi nzu ikaba ifite amatara meza ndetse ukaba wayibona kuri miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri mu mujyi wa Kigali.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibaraya gusa umweru n'ibirahure by'umukara hasi hari amakaro ifite ibyumba bikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako yubatswe neza mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho, inyubako ikaba ifite igisenge cyiza kiyisakaye ndetse ikaba ifite n'ibikuta bisizwe amarangi meza, iyi nyubako kandi ikaba ifite ubusitani bwiza burimo indabo n'ibyatsi byiza, iyi nyubako wayibona kuri miliyoni ijana mirongo itatu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Iyi ni inzu yubatswe neza mu buryo bwa kijyambere kandi bubereye amaso. Iyi nzu yubakanye imitako myinshi ndetse ikaba ifite igikoni cyiza, nk'aho gutekera ndetse n'utubati. Iyi nzu iherereye Kigali ikaba ikodeshwa ibihumbi bitatu magana atanu by'idolari, ku kwezi.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho. Ino nyubako ikaba ifite amadirishya manini yisanzuye ndetse ikaba ifite n'igitanda cyo kuryamaho cyiza. Ino nyubako kandi ikaba irimo imitako myinshi itandukanye ndetse ikaba irimo n'amatara meza. Iyo nyubako ukaba wayibona ku madorari magana inani uyikodesha ku kwezi mu mujyi wa Kigali.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ndetse ikaba iherereye i Kabeza mu mujyi wa Kigali. Iyi nyubako ifitemo imitako myinshi, ikaba ifite ubwiherero bwiza ndetse ikaba ifite n'amadirishya meza n'aho bogera, inyubako kandi wayibona kuri miliyoni ijana na mirongo itatu mu mujyi wa Kigali.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere bugezweho, ifite aho kurira heza, harimo imitako ihagije, ndetse n'ubuganiriro burimo imitako ihagije ha no. Iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, muri Kicukiro, muri Kagarama. Iyi nzu wayibona ku madolari igihumbi n'ijana ku kwezi, uyikodesha.

Inyubako nziza ya kijyambere yubatswe neza ifite imitako myinshi igurishwa, iherereye i Kanombe, igurishwa miliyoni mirongo itanu ifite ibyumba bitanu n'ibindi bine byo kuruhukiramo, ipima kilometero kari magana ane na mirongo itanu.

Inyubako yubatswe neza mu buryo bugezweho kandi bushimishije. Inyubako ikaba ifite imitako myiza kandi itandukanye harimo n'amatara meza yaka neza. Inyubako ikaba ifate imiryango myiza ndetse ikaba ifite n'ibirahure byiza. Iyo nyubako ukaba wayibona ku madorari magana atatu mu Rwanda.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho. Ino nyubako ikaba iherereye i Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, ndetse ukaba wayibona ku madorari ibihumbi bitatu uyikodesha ku kwezi. Ino nyubako ikaba ifite ubusitani bwiza ndetse n'ibirahuri byiza n'imitako myinshi itandukanye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ino nyubako ikaba ifite igisenge kiza kiriho imitako myinshi itandukanye ndetse ikaba ifite n'ibikuta biteye amarangi meza, ino nyubako ukaba wayisanga i Kigali muri Kimironko ukaba wayikodesha ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda ku kwezi.

Inyubako nziza igeretse ndetse inatatse neza iri i Kigali i Kabeza ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwiherero butatu, iyi nyubako ikaba ikodeshwa ibihumbi maganatanu ku kwezi.

Inzu yubatswe neza mu buryo bugezweho ikaba inakikijwe n'indabo nziza zatewe mu buryo buteganyijwe neza, iyi nzu ifite ibyumba bitatu ikaba ifite ubwogero bubiri ndetse ikaba ikodeshwa amadorari igihumbi ku kwezi.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ino nyubako ikaba iherereye Kimironko mu mujyi wa Kigali, ino nyubako ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite imitako itandukanye ndetse n'ibikuta biteye amarangi meza, ino nyubako ikaba ifite kandi ahantu hisanzuye ho guparika imodoka ndetse n'ubusitani bwiza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho. Ino nyubako ikaba iherereye muri Kimironko mu mujyi wa Kigali, ukaba wayibona kuri miliyoni mirongo ikenda n'eshanu z'amanyarwanda. Ino nyubako ikaba ifite ibirahuri byiza ndetse igisenge kiza n'imitako imyinshi ihagije. Ikaba igiye ifite ibikuta birebire biyitandukanya n'izindi nyubako.

Iyi ni inzu yubatswe i buryo bwa kijyambere ikaba ifite umuryango mwiza ndetse n'idirishya ryiza bifite ibirahuri byiza iyi nzu ikabaherereye i remera harimo icyumba kimwe cyo kuraramo icyumba kinini cyo kuruhukiramo icyumba kimwe cyo kuganimo ikaba irimo n'igikoni ndetse n'ahantu heza hahagije ho gukoreramo ibintu bisanzwe iyi nzu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho. Ino nyubako ikaba igeretse ndetse ikaba itatswe n'imitako myinshi. Ino nyubako ikaba igabanyijwemo ibice bibiri ndetse buri gice kikaba gifite ibyumba bine. Ino nyubako igice kimwe cyayo wakibona ku bihumbi magana abiri na mirongo itanu by'Amanyarwanda.

Inyubako nziza cyane zubatse mu buryo bugezweho zagenewe guturwamo, zifite ahabugenewe ho guparikamo imodoka ndetse hahagazemo umukobwa uri kwerekana ukuntu ari heza, haparitswe imodoka nyinshi kandi z'ubwoko bwiza.

Inyubako nziza kandi igezweho, iyi nyubako ikaba ifite igisenge cy'umutuku ndetse n'ibirahure byiza n'inzugi nziza ifite kandi ahantu hahagije ho guparika imodoka ndetse n'ubusitani bwiza, ino nyubako ukaba wayisanga muri Kigali muri Kibagabaga, ikaba ifite ibyumba bitanu byo kuraramo ndetse n'ibyumba bitanu by'uburuhukiro, ino nyubako wayibona ku madorari igihumbi na magana arindwi uyikodesha ku kwezi.

Inyubako yubatswe mu buryo bwiza bwa kijyambere kandi bugezweho, ino nyubako ikaba ifite igisenge kiza cy'amabati y'umukara ndetse ikaba itewe n'amarange meza ndetse ikaba ifite n'imitako myinshi, iyi nyubako ikaba ifite aho baparika imodoka eshatu zisanzuye ndetse ikaba iherereye i Kanombe mu mugi wa Kigali, inyubako wayibona kiri miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda.

Inyubako iherereye i Kibagabaga mu Mujyi wa Kigali aho yubatswe neza mu buryo bugezweho, iyi nyubako ikaba ifite imiryango meza, ifite ibirahure byiza ndetse ikaba ifite n'imitako myinshi harimo n'ubusitani burimo indabo. Inyubako ikaba ifite ibyumba bitatu, ibyumba bitatu byo kuraramo ndetse n'ibyumba bitatu byo kogeramo, wongeyeho icyumba cyo kuriramo n'icy'uruganiriro, ikaba ifite n'igikoni gihagije kisanzuye. Iyi nyubako bayibona ku bihumbi ijana na mirongo ine by'amadorari mu Rwanda.

Inyubako yubatswe neza mu buryo bugezweho, aho iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ino nyubako ikaba ifite ibyumba bine byo kuraramo ndetse n'ibyumba bitatu by'uburuhukiro ndetse ino nyubako ukaba wayikodesha ibihumbi magana atanu ku kwezi, ino nyubako ikaba ifite igisenge cyiza ndetse ikaba ifite n'amadirishya afite ibirahuri byiza ndetse ikaba ifite n'ahantu hisanzuye ho guparika imodoka.

Iduka ririmo imyenda itandukanye ndetse n'ibikoresho bitandukanye harimo ibikapu byo mu ntoki, ndetse n'inkweto zo kwambara .Ni iduka ririmo abagore babiri b'abirabura ndetse n'umugabo umwe w'umuzungu ,ndetse kandi hakaba harimo n'abantu benshi bari kureba ibicuruzwa ndetse n'abacuruzi b'ibyo bicuruzwa.

Umugore wambaye umupira w'umweru ndetse ufite imisatsi miremire, akaba yambaye n'imiringa ku matwi. Uyu mugore akaba ari mu iduka ryubatswe neza mu buryo bugezweho, rifite imitako myinshi itandukanye n'ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Umugore akaba ari guhaha inyanya ndetse n'izindi mbuto zo guteka.

Iri ni iduka ririmo ibikoresho bitandukanye, harimo imikandara y'abagabo ndetse n'inkweto z'abakobwa bikorwa mu ruhu, ibi bikoresho bikaba bigamije guteza imbere abantu ndetse n'urubyiruko kugira ngo bihangire imirimo ibafitiye akamaro.

Isoko ryubatse mu buryo bwiza harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo imbuto zo kurya ndetse n'imboga, iri soko kandi rikaba ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi, iri soko ryubatswe mu buryo bwiza bugezweho, ndetse hejuru hakaba hacururizwamo n'imyenda.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi ndetse harimo abazungu bari gucururizamo, iri soko ririmo abantu batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, ndetse n'ibindi bikoresho bacuruza harimo ibyo kunywa imitako ndetse n'ibindi bipapuro.

Inzego zishinzwe umutekano w'abantu ariyo polisi aho bari kugenzura umutekano bambaye impuzankano yaho iri bendera ry'u Rwanda, ndetse imbere yaho hateretse mudasobwa n'ibindi bikoresho bakoresha mu mu kugenzura umutekano harimo umugabo n'umugore.

Umugore w'umuganga uri kwakira umurwayi w'umugore uri gukoresha ubwishingizi bwa mitiweli ndetse umuganga akaba ari gufasha umurwayi kubona serivisi yihuse kandi y'ibanze ikenewe kugira ngo aze gukurikizaho ibindi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara uri guhabwa sheke ifite agaciro ka miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu, kubwo imirimo ye yakoze iriho ibigo byinshi bitandukanye nka RSSB, ejo heza, SOLASI ndetse yatanzwe ku itariki mak'umyabiri n'umunani kwa cumi mu bihumbi bibiri na mak'umyabiri na rimwe.

Umugore wambaye agapira k'umweru ndetse afite igitenge asa nkaho ahetse umwana ndetse hari n'abandi bicaye benshi cyane harimo abana bato abasore ndetse n'abadamu, bari bicaye bategereje serivisi nziza iboneye ku kigo nderabuzima.

Hano ni muri supamaketi, amatara ari kwaka. Harimo etajeri nyinshi ziriho ibicuruzwa bitandukanye. Ndahabona urujya n'uruza rw'abantu, barimo guhaha.

Umugore uri guhahira mu isoko rya kijyambere ryiza rigezweho ririmo ibyo kurya bitandukanye, ibyo kunywa bifunze by'amoko menshi ndetse n'imbuto, uyu mugore ari kugenda ahaha mu gakangara ko guhahiramo k'isoko ryamuhaye harimo imbuto zitandukanye.

Ikusanyirizo ry'ibikoresho byo kubaka, ibikoresho byo kurya n'ibindi bikoresho mu akenera ubuzima busanzwe, n'abakozi b'iryo kusanyirizo, n'abaguzi n'ibindi bikoresho bisanzwe byo kwishyuriraho ibyo abaguzi baguze.

Isoko ryiza ryubatswe mu buryo bugezweho ndetse bwa kijyambere. Iri soko rikaba ririmo ibicuruzwa ndetse n'ibindi bitandukanye byo kurya ndetse n'ibindi abantu bakoresha mu buzima busanzwe. Muri iri soko hakaba hatatswemo imitako myinshi.

Isoko ryubatswe neza ririmo imitako myinshi kandi itandukanye, iri soko rikaba ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo: ibyo kurya, ndetse n'ibindi byifashishwa mu buzima busanzwe, iri soko ibicuruzwa bikaba bitondekanyije neza, ku buryo ababigura biborohera gushaka ibicuruzwa.

Iri ni isoko ryiza cyane rya kijyambere riteye imbere aho harimo ibintu byinshi cyane harimo nk'ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse n'ibindi byose byo mu nganda bifunze neza mu mashashi ibi ngibi bikaba bipanze neza ku buryo byohereza ababigura.